Ndabona ishuri rya pirimere, ubwo ni ukuvuga ishuri ribanza, ndetse n'amazamu imbere ya ryo, aya mazamu, ni ukuvuga ari mu kibuga cy'umupira w'amaguru, ni amazamu y'umupira w'amaguru.

Aba ni abanyeshuri biga ibyo guteka, bo muri kaminuza cyangwa se segondere, bari gutegura amabife, aho abantu bafatira ibyo kurya bitandukanye.

Aba ni abanyeshuri biga muri segonderi, biga ibijyanye n'ubumenyi ngiro, muri ubwo bumenyi ngiro harimo gukora ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'icyo bita tekiniki. Izo bita RTB.